Umugabo ufite uruhu rwirabura, wambaye karavate ifite ibara ry'ubururu, ishati ifite ibara ry'umweru n'ikote; afite mikoro mu ntoki ari kuvuga.

Umugabo wicaye wambaye ishati yirabura wifashe ku munwa, iruhande rwe hari umugore bicaye bareba abantu bari imbere yabo, na bo bicaye bari kureba muri ekara nini.

Abantu bicaye harimo abagabo n'abagore, ku meza imbere yabo hari amakayi yo kwandikamo n'amakaramu na telefone n'igikapu, basa nk'abari mu nama.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ryerurutse, umanutsemo uturongo dufite ibara ryijimye, ufite mikoro mu ntoki, uri kuvuga yicaye, imbere ye hari ameza ariho icupa ry'amazi y'uruganda rw'inyange.

Abasore n'abakobwa bambaye udupira tw'umweru n'abagabo babiri bambaye udupira tw'umukara n'ikote ry'umukara bafite amazi y'uruganda rw'inyange ku meza barimo baraganira.

Inzu irimo intebe nyinshi hicayemo n'abantu ariho n'insakazamashusho yanditsemo mu magambo y'icyongereza umujyi wa Kigali.

Abantu, abagabo n'abagore bicaye bakikije ameza, ku meza hariho amazi na ji by'uruganda rw'inyange hari na kompiyuta imbere yabo, bari kureba ku nsakazamashusho imbere.

Umugore wambaye agapira k'ibara ry'ubururu bwijimye, kariho idarapo ry'u Rwanda, hariho n'amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza, ufite ibisuko ku mutwe, inyuma ye hari umugabo.

Umugore wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru, ufite mikoro mu ntoki, wambaye impeta ebyiri ku ntoki uri kuvuga.

Abagabo n'abagore bafite uruhu rwirabura n'abafite uruhu rwera bicaye umwe arimo arandika, izi nama zikunda gukorerwa mu nzu zabigenewe.

Abantu bicaye mu gishararagati, imbere yabo hari umugabo wambaye itise ifite ibara ryijimye, n'umupira ufite ibara ryerurutse, ufite mikoro mu ntoki arimo arabavugisha, abareba.

Umugabo wambaye amadarubindi, wambaye n'ikote ry'umukara ririmo uturongo, imbere ye ufite mudasobwa n'iruhande rwe hari abandi bagabo, imbere yabo hari umugabo umeze nk'uyoboye inama.

Inzu irimo ameza azengurutswe n'intebe zicawemo n'abantu, zigiye zitandukanye imbere hari icyapa. Ibi bintu bikunda gukorwa mu gihe cy'amanama, ku buryo abantu baba bari mu nama ariko bashaka kuganira.

Ihema ritatseho ibitambaro birimo amabara agize iberendera ry'igihugu cy'u Rwanda, mo imbere hicayemo abantu batandunkanye bari mu nama.

Abantu batandukanye abagabo n'abagore bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umuhondo imbere hari abantu bafashe ku madarapo bazamuye amaboko bari kurahira.

Umugore wambaye umwenda ufite amabara y'umweru n'umukara ufite n'icupa imbere ye wicaye inyuma ye hari abagore n'abagabo batandukanye,

Ibikorwaremezo bigiye bitandukanye harimo imihanda, ibiraro byo hejuru byubakwa na leta.

Abakobwa n'abahungu bambaye imipira y'umuhondo iriho ikirango cy'idarapo ry u Rwanda nk'ikirango cy'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda handitseho amagambo urugerero.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, urimo uratanga ijambo imbere y'abantu, afite mikoro mu ntoki, iruhande rwe hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ariho n'amazi y'uruganda rw'Inyange.

Abagore babiri bambaye amadarubindi, bicaye, inyuma yabo hari abandi bantu batandukanye, bari gukurikirana inama bitonze, imbere yabo bafite mudasobwa n'amacupa arimo amazi y'uruganda rw'inyange.

Umunara muremure ufite amabara y'umweru n'umutuku ni ikirere kirimo ibicu by'umweru n'igice cy'ubururu, uyu munara ukunda kwifashishwa mu gusakaza sinyare zikoreshwa mu itumanaho.

Abantu bicaye imbere yabo imbere yabo bafite mudasobwa, imbere yabo hari umudamu uhagaze urikuvuga, inyuma ye hari ikibaho cyo kwandikaho.

Umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, uteruye mudasobwa mu ntoki, inyuma ye hari abagabo babiri bafite terefone bari kurebamo.

Abagabo batandukanye bahagaze, bamwe bari kurebera muri telefone, abandi bari kuganira, abandi bari gufata amashusho bifashishije ibikoresho byabigenewe.

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Umugabo wicaye, wambaye ishati yirabura, imbere ye hari ameza ateretseho imashini yifashishwa mu gucapa impapuro

Umunara uriho ibyuma bitandukanye ukunda gukoreshwa hejuru y'amazu kugira ngo usakaze interineti mu nzu nanone usakaze interineti n'ahantu mugace uherereyemo.

Umugabo ufite uruhu rwera wambaye ikote ry'umukara n'agapira gafite ibara rya shokora, iruhande rwe hari umugabo ufite uruhu rwirabura, wambaye ingofero y'umweru n'ikote rifite ibara ry'icyatsi cyijimye n'agapira gafite ibara ry'umukara ryerurutse.

Umugore ufite ibisuko bizirikishije umugozi, yambaye ishati ifite ibara ry'umweru. Imbere ye afite mudasobwa, arimo arakora. Iruhande rwe afite icupa ririmo amazi.

Ikibanza kirimo umunara muremure harimo n'inzu harimo n'akandi kazu gatwikiriye bimwe mu ibikoresho bijyanye n'umunara, iyi minara ikunda kwifashishwa mu gukwirakwiza itumanaho.

Umugabo w'unamye wambaye agapfukamunwa n'umupira ufite amabara y'ubururu n'umweru uri gukanda kuri mudasobwa, imbere ye hari abakobwa batatu bambaye agapfukamunwa bari kwiga mudasobwa.

Ni mu nyubako mo imbere, harimo abantu bicaye ndetse hari n'ahantu bacaginga telefone n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga bifashisha ndetse bamwe bari no kubikoresha.

Umuhanda ku ruhande hari amatara yifashishwa mu gucanira uwo muhanda hari n'ibiti bituma haba akayaga keza inyuma hari umuyoboro mugari w'amashanyarazi.

Icyapa kigaragaza ibiro by'ikigo cy'igihugu gikwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda kiriho na nomero ushobora guhamagara ho y'ubuntu, kiriho n' urubuga rwo kuri murandasi ushobora gusura.

Icyuma kifashishwa mu guhindura umuriro kiwuvana ku muriro mwinshi kiwujyana ku muriro mukeya, kuburyo ushobora kwifashishwa mu ngo z'abaturage. Ibi byuma bikunze kuba biri ahantu hafite umutekano.

Umwanya urimo umunara muremure n'ibikoresho bijyana nawo, hari uruzitiro rurinda abantu kuba bagira ibyo bangiza, ubu buryo bukunda kwifashishwa na kompanyi zitandukanye mu gusakaza itumanaho byoroshye.

Amapoto yifashishwa mu gutwara insinga mu kirere, aya mapoto akunda kwifashishwa mu gihe ari umuyoboro mugari bashaka kujyana nk'ahantu mu gace runaka kugira ngo uhagere ufite umutekano.

Imodoka rusange nini yifashishwa mu gutwara abantu benshi icyarimwe, ikunda gukoreshwa mu ngendo zijya mu ntara zitandukanye z'igihugu, iruhande rwayo hari igare, imbere yaho hari abanyonzi bafite amagare.

Amazu abiri ya etaje n'amapoto abiri rimwe ririho kamera zo mu muhanda irindi ririho umuyoboro w'amashanyarazi utwaye insinga nyinshi.

Ipoto riri iruhande rw'igipangu, gifite ibara ry'umweru cyubakishije amatafari ya munyo iryo poto ririho insinga nyinshi, abaturage bafatiraho bakurura umuriro bawujyana mu ngo zabo.

Umugabo wambaye ingofero n,agapira karimo uturongo tw'umukara n'umweru n,umwambaro w,akazi urimo ureba ku mashini zisuzuma iby'umuriro.

Ni icyapa kiriho itangazo rigaragaza ko nta muntu wemerewe kwinjiramo hano atabiherewe uburenganzira, hariho ikiganza cyaciwemo akarongo kamanuka ndetse n'akazu karimo agatangaro kamanuka, bisobanura ko nta muntu wemerewe kwinjiramo.

Amapoto abiri ashinze hagati harimo icyuma kigabanya umuriro kiwuvana ku kigero kinini kiwujyana ku kigero gitoya aho abaturage bashobora kuwukoresha mu nzu zabo, inyuma hari ipoto rinini ritwara umuyoboro mugari kugira ngo riwujyane mu gace gakeneye umuriro.

Ameza ariho ibisorori bitandukanye birimo ibyokurya inyuma hari abantu bambaye imyambaro yabugenewe y'abantu bo mugikoni, gifite ibara ry'umweru imbere hari abantu bari gutambuka barura.

Inzu ikorerwamo n'ibitaro byitiriwe umwami fayisari, igeretse kabiri, imbere hari umuhanda wa kaburimbo, uriho icyapa kigaragaza aho ushobora guparika.

Ni ku murenge hari abantu batandukanye baje gufashwa bategereje ko babafasha ndetse hari n'abandi batatu n'abandi hirya harimo n'umugabo wicaye ku meza arimo arakira abantu.

Inzu irimo intebe zicayeho abantu bagiye batandukanye, harimo n'abagororwa bari kugenda basaba serivisi ku cyumba kirimo abantu mo imbere.

Inzu yubakishije amatafari ya ruriba ifite n'amabati atukura, imbere yayo hari abagabo babiri bahagaze, hari n'icyapa kigaragaza aho baparika utugare tw'abafite ubumuga.

Umuryango uriho icyapa gishushanyijeho umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Ubu buryo bwifashishwa mu kugaragaza ahantu abafite ubumuga bashobora kunyura cyangwa ahantu bashobora gukoresha.

Umugabo wambaye impuzankano y'abantu bacunga umutekano ku marembo, uhagaze imbere y'icyuma gitangira abantu kwinjira ahantu batabifitiye uburenganzira.

Umudamu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'icyatsi, ufite impapuro mu ntok,i uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo umeze nk'uri kwa muganga.

Umugabo wambaye imyenda y'abagororwa mu rwanda wambaye n'amadarubindi, ari kureba undi mugabo wambaye imyenda y'abacamanza. Uyunguyu aba amwunganira mu gihe aburana mu rubanza.

Umugore wambaye imyenda y'umutuku y'ubucamanza umwe mu bagore bakunda kugaragara mu gihugu bakora mu rwego rw'ubucamanza.

Umugabo w'umwirabura wambaye amadarubindi yambaye n'ishati na karuvati n'imyambaro y'abacamanza.

Abagabo n'abagore bambaye imyambaro y'abacamanza ifite ibara ry'umutuku n'ingofero zifite ibara ry'umukara, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye hagati y'abantu babiri bambaye imyambaro yo murukiko, uwo mugabo yambaye imyenda yimuzankano yabagororwa.

Umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, uzamuye ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso gufashe ku idarapo, urimo ararahira. Ubu ni uburyo bukunda gukoreshwa bwo kurahira mu gihe umuntu atangiye inshingano nshya.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'abagororwa mu Rwanda, umwe yambaye ingofero mu mutwe bahetse umuntu mu ntoki bamujyanye kwa muganga.

Igipangu kirekire cyubakishijwe amatafari ya munyo imbere yacyo hariho urupangu na rwo rurerure rw'icyuma, imbere hariru umugabo wambaye impuzankano y'abacungagereza mu Rwanda imbere yuwo mucungagereza hari abagabo bambaye impuzankano y'ingororwa mu Rwanda.

Turi mu muhanda urimo abantu batwara ibinyabiziga moto, imodoka ndetse n'amagare harimo n'abantu bashinzwe umutekano ndetse n'abantu bari gucuruza amayinite bafasha abantu abakozi ba mtn.

Umupolisi ufite ikizimya umuriro, imbere ye hari abantu bari kumureba bambaye udupfukamunwa, bari kureba uko azimya umuriro. Ubu buryo bwifashishwa na polisi y'igihugu, yigisha abantu uburyo butandukanye bashobora kuzimyamo umuriro mu ngo zabo.

Ibyuma byifashishwa mu kuzimya umuriro bibiri. Bikunda gushyirwa ahantu hahurira abantu benshi, ku buryo mu gihe cy'inkongi y'umuriro umuntu ashobora kubyifashisha azimya inkongi y'umuriro.

Abanyeshuri bari kumwe n'umupolisi, ku rundi ruhande hari umugabo wambaye sivire, imbere yabo hari ibizimya umuriro, ubu buryo bukunda kwifashishwa na polisi kugira ngo yigishe abakiri batoya uko bazimya umuriro.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, iruhande rwayo hahagaze umupolisi wambaye impuzankano y'abapolisi bo mu Rwanda, izi modoka zikunda gutwara abayobozi mu bice bitandukanye by'igihugu.

Imodoka y'ivatiri iriho ibirango bya polisi. Izi modoka zikunda kwifashishwa na polisi yo mu muhanda, igenzura ko abantu bubahiriza amategeko y'umuhanda.

Umugabo uhagaze hagati y'abandi bagabo babiri, wambaye kositimu ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma ye hari abantu bicaye, uri kuvugira kuri mikoro.

Inzu irimo abagabo n'abagore bicaye bafite amazi y'uruganda rw'inyange imbere yabo, inzu ikunda gukorerwamo n'inteko ishinga amategeko.

Umugabo wambaye ishati yumweru na karuvati ufite mu ntoki agaseke, imbere ye hari umugore ufite urupapuro ari gushyira muri ako gaseke, iruhande rwabo hari abandi bantu benshi.

Umugabo wambaye ikote ryirabura, ufite imvi mu mutwe, uri kuvuga kuri mikoro, iruhande rwe hari icupa ry'amazi y'uruganda rw'lnyange, n'ikirahure kirimo amazi.

Umugabo n'umugore, umugabo akaba ari umukuru w'igihugu cy'u rwanda Poro kagame, umugore akaba ari umugore w'umukuru w'igihugu Janete kagame, inyuma yabo hari umugore n'umugabo n'abandi bagabo batatu.

Ikirango cy'Ishyaka PL ryemewe n'amategeko mu Rwanda, harimo amagambo yo mu rurimi rw'Ikinyarwanda arimo ukwishyira ukizana, ubutabera, amajyambere.

Umugore wambaye ikanzu ifite amabara y'umweru n'icyatsi kijimye uri gusohoka mu modoka ifite ibara ry'umukara inyuma ye hari inzu.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul kagame ari gushyira urupapuro mu gasanduku kabigenewe k'amatora, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ifoto y'imisozi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ifite ibara ryirabura, inyuma ye hari abantu bicaye mu ihema rifite amabara y'umweru umutuku n'ubururu. Uyu mugabo ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame.

Umugabo ufite ibara ry'uruhu rwirabura, wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu bwijimye, na karuvati y'ibara ry'ubururu, n'ishati y'ibara ry'umweru, ari i ruhande rw'idarapo ry'u Rwanda, uzwi nka Ngirente, nka Minisitiri w'intewe w'u Rwanda.

Umugabo wambaye amadarubindi, ikote ni'ishati na karuvati, imbere ye hari amazi y'uruganda rw'lnyange, ari kuganira n'umugore...

Abagabo babiri inyuma yabo hari umugore witadiye imbere, ye hari imashini imbere y'abo bagabo babiri hari amazi yo kunywa y'uruganda rw'inyange aha ngaha akaba ari mu biro bikorerwamo n'inteko ishinga amategeko.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso, y'ikamyo yikoreye imifuka myinshi y'amakara, hejuru itwikirije shitingi y'ubururu ihambirije imikoba ikomeye cyane.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'amakamyo yikorera ibintu byinshi cyane ifite ibara ry'umutuku iri kugenda muri kaburimbo, izi modoka zizwiho kuba zitwara ibintu byinshi icyarimwe.

Imodoka yifashishwa gutwara abantu mu buryo bwa rusange, iri mu bwoko bw'amakwasiteri, inyuma yayo hari umunara munini wifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Umuhanda uri gucamo imodoka eshatu na moto ebyiri, moto imwe ihetse umugenzi, iyi mihanda izwiho kuba igabanyijemo ibice bibiri ku buryo hashobora gucamo imodoka z'ibyerekezo bibiri bibiri.

Imodoka yo mubwoko bwa fuso iri kugenda mumuhanda inyuma yayo hari igare na moto, izi modoka zizwiho gutwara ibintu byinshi cyarimwe.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo moto enye, ziriho abagabo bane bafite ingofero zikoreshwa mu gihe umuntu ari kuri moto kugira ngo yirinde mu gihe yaba akoze impanuka.

Imodoka yo mu bwoko bw'amakamyo ifite ibara ry'umuhondo itwara ibisukika ariko bishobora kugurumana hariho n'icyapa kigaragaza ko kizira kuhegereza umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri harimo amagare atatu rimwe riri kumanuka andi ari kuzamuka, imbere hari imodoka zikoreye kontineri.

Umugabo urimo uratwara igare rifite amapine abiri, hikoreyemo ibintu, iruhande rwe hari umugabo nawe urimo uratambuka hejuru ku ruhande rw'umuhanda arimo hari abandi bantu bahari benshi.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ebyiri ziparitse hagati hari umugabo, izi modoka zizwiho kuba zikoresha amashanyarazi kandi zigatwara abantu benshi icyarimwe bikoroshya ingendo.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zishobora guhagarara hariho ibyapa bigaragaza umuco w' u Rwanda, ahantu nyaburanga h' u Rwanda ibintu umuntu ashobora gusura mu Rwanda.

Umuhanda mu isanganiro harimo moto hari abantu bari kwambuka mu mirongo yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, hirya hari izindi modoka, uyu muhanda uzwi nk'aho bita Nyabugogo.

Akamoto gafite amapine atatu, gatwikirijwe ihema ry'umukara ryanditseho nomero. Utu tumoto dukunda kwifashishwa mu gihe abantu bimukana ibikoresho, babivana ahantu hamwe babijyana ahandi

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikoresha amashanyarazi hari n'akamoto gafite amapine atatu.

Igare rya matabaro riparitse mu ruhande rw'umuhanda, imbere yaryo hari imodoka iri mu muhanda irimo iragenda, iri gare rikunda kwifashishwa mu gutwara imizigo itandukanye.

Imodoka ebyiri nini zifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, imbere yazo hahagaze abantu, ubu buryo bukunda kwifashishwa mu gutwara abantu benshi icyarimwe mu gihe bava mu ntara imwe bajya mu yindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri harimo moto n'umuntu uyitwaye wambaye ingofero irinda umuntu mu gihe ari kuri moto. Mu Rwanda ntabwo byemewe kugenda utambaye iyo ngofero uri kuri moto.

Umuhanda urimo uragendwamo na moto ebyiri na moto ifite amapine atatu itwikiriye ibati rifite ibara ry'ubururu ryijimye.

Imodoka ikunda kwifashishwa mu gutwara abantu muri rusange, ikunda gukora ingendo ziva muri kigali zijya mu ntara cyangwa ziva mu ntara ziza muri kigali.

Imodoka itwara abantu muburyo bwa rusange izwi nka kwasiteri ,iri mu muhanda, iri kubisikana n'imodoka nini yo mu bwoko bw'amakamyo ,ifite ibara ry'umuhondo.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu yikoreye inyuma amashyiga ya gaz ya company izwi mu gukwirakwiza gaz mu Rwanda ya esp, ni imwe muri company zikomeye.

Igikamyo kinini gifite ibara ry'umutuku, cyikoreye kontineri ifite ibara ry'icyatsi, ibi bikamyo bikunda kwifashishwa mu kwikorera imizigo, ivanwa ahantu hamwe ijyanwa ahandi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa toyota, ishobora gutwara imizigo inyuma, iparitse mu ruhande rumwe rw'umuhanda. Imbere yayo hari imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu, ifite ibara ry'ubururu.

Ni umuhanda urimo abanyonzi b'amagare babiri, bari kugenda ndetse n'abandi bari kuzamuka, bari kugendesha amaguru, inyuma yabo hari igare naryo ribakurikiye mu kayira k'abagenzi, hino hari imodoka bisi itwara abagenzi.

Imodoka ifite amabara y'ubururu n'umuhondo ifite ahantu ho gushyira imizigo inyuma, irikoreye ibintu bitwikirije ishitingi ifite ibara ry'ubururu.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'amakamyo yifashishwa mu gutwara ibisukika bikoreshwa mu gucana cyangwa mu gutwara imodoka nk'amapeteroli n'amayesansi.

Umugabo utwaye moto yambaye ingofero imurinda mu gihe ari kuri moto, ahetse umukobwa nawe wambaye ingofero y'umuhondo bari kugenda mu muhanda.

Imodoka itwara abantu mu biryo bwa rusange irimo irasohoka mu marembo imbere yayo hari icyapa cya kompanyi y'itumanaho imwe muri kompanyi zikomeye mu gihugu.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ikirahure cy'imbere cyamenetse yanangiritse imbere, bigaragara ko ishobora kuba yagonze.

Imodoka yo mu bwoko bw'amakamyo, imwe mu zizwiho ko zikunda gutwara imitwaro myinshi, iri gukata iva mu muhanda, ijya guparika ku ruhande, muri uwo muhanda harimo moto ihetse umugenzi, ufite ibintu mu ntoki.

Imodoka yo mu bwoko bw'amakamyo ifite ibara ry'umweru inyuma ifite ikintu itwaramo sima, ubu buryo bukoreshwa n'inganda zikomeye zitwara amasima buyashyikiriza abakiriya bayakeneye ari menshi.

Akamoto gafite amapine atatu, gatwikiriye, kari mu muhanda, iruhande rwako hari umugore ufite indobo irimo ibisheke.

Imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange iriho ishusho y'inyamanswa y'inkazi ifite ibara ry'umutuku.

Umuhanda urimo ibyerekezo bibiri, harimo moto. Iriho umumotari n'umugenzi ahetse bambaye ingofero z'ubwirinzi mu gihe umuntu ari kuri moto. Iri kubisikana n'imodoka ifite ibara ry'umweru. Imbere yabo hari igare ritwawe n'umunyonzi.

Umuhanda urimo ibyerekezo bibiri harimo amakamyo abiri arimo arabisikana, hari n'umunyonzi, utwaye igare ripakiye ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo igitoki n'ibindi.

akazu kubakishijwe imbaho munsi hicayemo abantu, gafunguye ku mpande eshatu ahangaha akaba ari hamwe mu hantu abantu bakunda kujya kugira ngo baruhukire banatembera mu mujyi wa kigali.

Intebe za palasitiki zifite ibara ry'icyatsi, ama esikariye amanuka afite ibara ry'umutuku n'afite ibara ryerurutse, n'abantu bicaye mu ntebe bari kureba hepfo.

Umuhanda w'ikorosi urimo ibyerekezo bibiri hari abantu ku ruhande bari kuhagenda, kurundi ruhande hari icyapa gifite ibara ry'umweru kizengurutswe n'umurongo w'ibara ry'umutuku, munsi harimo akapa kagaragaza umuntu uri kugenda, kigaragaza ko ushobora kuhambukira.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga gifite ibara ry'umweru ku mpera hariho umurongo wumutuku mo hagati handitsemo umubare mirongo itandatu, ibi byapa bikunda kwifashishwa ku mihanda bigaragaza umuvuduko ntarengwa.

Icyapa gifite ibara ry'umweru kizengurutswe n'umurongo ufite iba ry'umutuku, mo hagati harimo ikimenyetso kigaragaza ko imbere hari umuhanda winjira mu muhanda urimo.

Icyapa cya mpande enye, gifite ibara ry'umuhondo ku mpera, hari umurongo uzengurutse w'umukara, mo hagati handitsemo amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza asobanura ngo gahoro.

Icyapa gifite impande enye, gifite ibara ry'umuhondo, kizengurutswe n'umurongo w'ibara ry'umukara. Mo hagati harimo ikimenyetso kigaragaza ko umuhanda ufite undi uwinjiramo.

Icyapa cy'umweru, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati harimo ikimenyetso kigaragaza ko hinjira undi muhanda, muri uwo muhanda mugari.

Ibyapa bitatu kimwe gifite ibara ry'icyatsi kiranga ko ugiye muri kongo ,ikindi cy'imbere cyanditseho ko uri ku mupaka wa kongo, ikindi kikwifuriza urugendo ruhire byose biri m'ururimi rw'icyongereza.

Icyapa cy'amabara y'umuhondo n'umukara, hariho ingofero n'ibindi biburira. Handitseho amagambo agaragaza yuko aho hantu hari kubakwa.

Icyapa cy'umweru gifite ibara ry'umutuku rizengurutse ku mpande, mu hagati harimo ishusho y'umuntu uri kuyora. Iki cyapa gikunda kwifashishwa nk'ahantu bari kubaka baburira abantu.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu cya mpande enye kizengurutswe n'umurongo w'ibara ry'umweru mo imbere handitse inyuguti ya pa n'igishushanyo cy'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibi byapa bikunda gushyirwa ahantu hahagarara imodoka rusange mu muhanda.

Ibyapa bibiri, kimwe gifite ibara ry'icyatsi kigaragaza ko ugiye mu karere ka Gicumbi, ikindi gifite ibara ry'umweru kigaragaza ko winjiye mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyapa cy'umweru gifite umuzenguruko w'umutuku, mo hagati handitsemo inyuguti ya pa haciyemo akarongo k'umutuku. Ibi byapa bishyirwa ahantu hatemerewe guparikwa n'imodoka.

Icyapa kinini gifite ibara ry'icyatsi cyijimye kiranga ibyerekezo bibiri kikagaragaza inzira ushobora guca ugiye ku kibuga cy'indege n'inzira ushobora guca ugiye mu gace kazwiho nka kacyiru.

Inzu ifite amabara y'ubururu bwijimye n'ibara ry'umweru hariho ibyapa biriho nomero ushobora guhamagara ku buntu imbere yayo haparitse imodoka ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye kuri moto, wambaye ingofero imurinda mu gihe ari kuri moto, uri mu muhanda w'amabuye, handitsemo kajagali, rimwe.

Inzu ya etaje ifite amagorofa atatu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye hariho n'ibyapa biranga imishinga itandukanye ikoreramo.

Amarembo arimo arinjiramo igare riri gusunikwa n'umugabo, inyuma ye hari inzu nini ifite amagorofa n'imodoka iri kwinjira mu gipangu iyo nzu irimo.

Inzu ifite amagorofa ane munsi haparitse imodoka, haparitse na moto n'abantu. Izi nzu zikunda gukorerwamo ubucuruzi mu gace ka Remera.

Ikibanza kinini kirimo ibiti n'ibyatsi, hirya y'aho hari inzu, inyuma y'iyo nzu hari amazu menshi ya etaje, aka gace kazwi ku izina rya Kinyinya.

Inzu ifite amagorofa abiri, ifite umuryango w'igipangu ukoze mu biti. Izi nzu zikunda kwifashishwa n'abantu kugira ngo baziraremo by'igihe gitoya.

Ikibanza kirimo ibyatsi cyinshi harimo imashini isiza haruguru hari inzu zifite ibara ryerurutse izi nzu, zikunda kwifashishwa n'inganda zigiye zitandukanye.

Inzu ifite amagorofa abiri, imbere yayo haparitse imodoka enye, hari n'abantu barimo baratambuka batandukanye. Aha hantu hazwi nko mu mujyi dawuni tawuni aho abantu bakunda kujya gutegera.

Imodoka y'umukara, yo mu bwoko bw'amaparado, iruhande rwayo hari imodoka ifite ibara rijya kweruruka, yo mu bwoko bwa rava fo.

Umuhanda uciyemo imirongo y'umweru iwambukiranya, iyi nzira iba yaragenewe abanyamaguru bambuka mu muhanda. Iyo imodoka zihagaze hari umunyamaguru urimo zirahagarara zikarindira ko abanza gutambuka.

Ni mu kibuga iruhande rw'umuhanda ahantu hari imodoka nyinshi ndetse n'amapoto n'amatara ndetse n'abagenzi b'amaguru, hariho n'ibyapa biyobora abantu.

Ni imihanda ibiri yegeranye nko hagati mu muhanda mu itandukaniro ryayo hateyemo igiti ndetse n'indabyo zigabanya umuhanda, hirya ku muhanda wo hirya hari ibiti bitanga umuyaga ndetse hari n'uruzitiro rwegereye ibyo biti.

Mu muhanda harimo imodoka ndetse yahagaze itegereza umuntu ugeze mu zabukuru arabanza arambuka anakomeza yambuka umuhanda hakurya. Ndetse ari mu kayira kagenewe kwambukiramo abanyamaguru.

Umuhanda umanuka ukinjira mu wundi, harimo imodoka y'umweru irimo irazamuka, iruhande rwayo hari itara ryifashishwa mu kumurikira umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo umanuka ukinjira mu wundi muhanda utambitse, harimo moto ebyiri, ziriho abagenzi, bambaye ingofero z'ubwirinzi, mugihe umuntu ari kuri moto hamwe n'ababatwaye.

Umuhanda w'igitaka urimo amabuye y'amasarabwayi imbere hari inzu iri mu gipangu muri uwo muhanda harimo imodoka ebyiri.

Umuhanda urimo amasangano agiye atandukanye, harimo moto ziriho abagenzi, hariho n'amatara amurikira umuhanda.

Umuhanda urimo moto, imodoka, hari n'ahantu abanyamaguru bagomba kwambukira bivuze ngo aha ngaha moto iyo zihageze n'imodoka zigendesha umuvuduko mukeya ndetse muri uyu muhanda harimo n'amatara, hirya hari ibiti.

Umuhanda urimo ahantu imodoka zitwara abagenzi zishobora guhagarara hari umuntu ufite igare hirya hari abantu benshi bategereje imodoka

Moto iri kugenda mu muhanda ibisikana n'imodoka, imbere yayo hari ikiraro k'imodoka zica hejuru. Iki kiraro kiri mu biraro bimaze igihe kinini mu Rwanda bizwi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikorosi, ikata mu kuboko kw'iburyo mu rwanda hakunda kuboneka amakorosi areba i buryo kubera yuko u rwanda ari igihugu cy'imisozi igihumbi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri n'igare ritwawe n'umuntu iruhande hari ikibanza giparikamo amakamyo manini.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo moto n'imodoka n'amagare, ku ruhande hari umwanya wagenewe guhagararamo imodoka z'abagenzi.